Isahane iriho ubwoko bw'ibiryo bitandukanye nk'ifi yokeje, umuceri, inyama ndetse n'uruvange rw'imbuto rurimo inyanya ndetse n'amasarade. Ubusanzwe ibiryo nk'ibi bikunze kugaragara ku birori bigiye bitandukanye cangwa ahantu hatandukanye nko mu mahoteri, usibye ko n'abantu ku giti cabo bitekera ibi biryo.

Isahani iriho inyama za burushete ndetse na mucoma. Ubundi inyama barazifata bakazibaga bamara kuzibaga bakaja barakataho dutoya aritwo bitaga intongo, barangiza bakazitunga mu du mu duti barangiza bakazotsa, inyama kandi nyuma yo kuzotsa bashobora kuzirisha ibirayi byitwa za mucoma.

Byeri, rikaba ijambo rihabwa ubwoko bw'inzoga bugiye butandukanye. Gusa mu busanzwe inzoga zirimo amoko nk'izo bita ibyuma. Ibyuma nabyo bikaba birimo amoko atandukanye nk'izitwa za ngufu, za biwani, za bazoka, za kevanti n'andi moko y'inzoga zigiye zitandukanye.

amafunguro g'ubwoko butandukanye burimo inyama, burimo amacapati, buririmo amasososi, burimo n'ubwoko bw'inyama zigiye zitandukanye ndetse n'ipirawu byateguriwe abantu barenga umwe.

Imyanya zicarwagamo n'abantu baje kunywa ndetse no kurya muri Hoteri. Muri Hoteri ni hamwe mu hantu hakira abantu bose b'ingeri zitandukanye，ndetse haba ubwoko bwinshi bw'ibinyobwa， ndetse n'ibiribwa. Aho ushobora gusangamo nk'ibiribwa， nk'amafi， n'izindi nyama z'andi matungo agiye atandukanye， haba hari n'ibinyobwa bitandukanye byaba ibisembuye n'ibidasembuye.

Mu kabari, cangwa si aho ushobora kujya, kuja gufata ico kunywa n'ico kurya igihe cose ushakiye. Mu kabari habamo ibyo kunywa bisembuwe ndetse n'ibidasembuwe. Mu bisembuye twavuga ubwoko bw'amayoga za mitsingi, pirimusi, za bazoka, kevanti, mu bidasembuye twavuga amaji n'amafanta. Ndetse habamo n'ibyo kurya nk'inkoko, amafiriti na za mucoma.

Icyapa kigaragaza inyubako y'aho barira ndetse bakananywera. Ubundi ibi ibyapa by'ahantu barira bakanywera, akenshi ni ahantu ushobora gusanga ibyo kunywa bigiye bitandukanye, birimo ibisembuye ndetse n'ibidasembuye. Haba hari n'ibyo kurya bigiye birimo ubwoko butandukanye byaba ibitetse, ibyokeje, ndetse hakaba hari n'amacumbi y'igihe ushobora kuraramo mu gihe wumva unaniwe.

Icumbi cangwa se amacumbi iyo ari menshi, akaba ari ari inzu zagenewe gukodesh, abantu bashaka gutura ahantu mu buryo bw'igihe gito. Ushobora kuja gushaka icumbi bitewe n'akazi cangwa si bitewe n'ikiruhuko cangwa si bitewe no gutembera ahantu runaka, bityo bikaba bigusaba kuharara.

Ibiti byifashishwa bapima ibiro by'ibintu runaka akenshi aba ari ibintu biri mu miifuka, hashobora gupimwa ibintu bigiye bitandukanye nk'ibirayi, ibishimbo, ndetse n'ibindi binyampeke bigiye bitandukanye. Ibi biti biba byubatse mu buryo ki ari ibiti bibiri bishinze bifite ikindi kigeretseho bamanikagaho umunzani, barangiza bakabona gupima ibyo bintu bibaga biri mu mifuka.

Inzu iriho icapa kigaragaza ibintu bicururizwa mu iyo nzu y’ubucuruzi, birimo: nk’inkoko, ifi, ifiriti, burushete, agatogo, boyiro, igi, igisafuriya, urukwavu, akabenzi, akaguru k’inkoko n’ubugari. Ibi byose bicururizwa ahantu, na none haba hari ibyo kunwa bigiye bitandukanye nk’ama byeri ndetse n’ibindi byo kunwa nk’amaji bidasembuye.

Ku gasantere ka hamwe mu mujyi runaka, mu busanzwe udusantere cyangwa se udusoko, cyangwa se amazu aba ari kudusoko: nt'ahantu hamwe hashobora kuba ari impande y'umujyi cyangwa se hitaruyeho gato umujyi ariko naho hateye imbere, ushobora kubona ibicuruzwa byaba ibibiribwa, byaba imyambaro byaba n'ubundi bwoko bw'ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Inzu z'ubucuruzi cangwa si imiryango z'ubucuruzi ni zimwe mu nzu ziba ziri mu masoko cangwa si mu nkengero z'amasoko bivuze nko ku muhanda inzu z'ubucuruzi zikorwamo ubucuruzi bw'ibintu bigiye bitandukanye nko gucuruza amayinite, gucuruza ibyo kurya bizwi nka resitora cangwa si alimantasiyo. Izi nzu z'ubucuruzi ni nziza cyane kuko zungura abazituye mu gihe bazikodesha.

Inzu y’ubucuruzi iriho ibirango bya sosiyete y’itumanaho yitwa Eyateli. Mu busanzwe, amasosiyete g’itumanaho, cangwa si ibindi bigo, cangwa se agandi ma bizinesi, gamamaza ibikorwa byago mu gufata ibirango byago ma bizinesi, bakabyandika ahantu runaka, haba ku byapa cangwa si ku nkuta z’inzu z’ahantu runaka.

Akabare akaba ari ahantu hacururizwa inzoga zigiye zitandukanye, ndetse hakaba hanacururizwa n'inyama zizwi nk'amaborushete, mu kabari habamo inzoga nka primusi, mitsingi, za gatanu, amabyeri n'izindi nzoga z'ubwoko bugiye butandukanye, mu kabari ushobora no kuhabona......

Amaduka g'ubucuruzi gacururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye nk'ibyo kurya, imigati ,icyayi, amaji ndetse n'ibindi bicuruzwa nk' iby'ubwubatsi, amasima, imisumari.

Virunga Hotel， akaba ari inyubako igizwe, igeretse kabiri. Ni inyubako yakira abantu bagiye batandukanye, by'umwihariko abanyamahanga baza bayigana, bashaka ama serivisi g'amacumbi， ibinyobwa bigiye bitandukanye, ndetse n'ubundi bwoko bw'abantu batemberera cane cane mu mujyi wa Musanze.

Iduka ry'ubucuruzi riri ku muhanda. Ubusanzwe iduka ry'ubucuruzi ni ho hantu usanga ibintu byinshi bigiye bitandukanye, byiganjemo ibyo kurya n'ibindi bikoresho byo mu rugo. Mu byo kurya haba harimo nk'ibintu bipfunyitse imiceri, bipfunyitse mu mifuka nk'imiceri, amafu, imyunyu ndetse n'amasukari. Na none haba hari n'ibindi bikoresho wakwifashisha mu rugo.

Kenkayori, icapa c'ubucuruzi bw'iduka ryitwa kenkayori cangwa se aho bacuruza ibikoresho by'ubwubatsi nk'amabati, amarangi, imisumari, ibirahuri, ibiroso byo guteresha amarangi, amapombo n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu bwubatsi, ndetse harimo bw'amatara za rangete.

Inzu y'ubucuruzi iriho icapa kigaragaza abantu bicaye ku meza， barimo gufungura cangwa se bari gufata ibyo kurya bya saa sita cangwa se by’agandi masaha， inzu z'ubucuruzi cane cane izicuruza ibyo kurya， ziba zifite ibyapa biriho abantu bari kunywa cangwa se bari kurya bumwe mu bwoko bw'ibiribwa cangwa se bw'ibinyobwa bicururizwaga aho ngaho.

Urujya n'uruza rw'abantu baja cyangwa bava ahantu hamwe akenshi bari gushakisha. Muri aba bantu haba harimo abanyegare, abamotari, abanyagataro n'abandi bacuruzi. Bacuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Akazu gacururizwagamo ama inite w'umuyoboro w'itumanaho wa airtel, airtel ni umuyoboro w'itumanaho gufite ibirango by'ibara ritukura ndetse n'umweru. Ugu muyoboro guzwiho kugira interineti yihuta kandi ya makeya.

Ku butike hacururizwa ibicuruzwa bigiye bitandukanye, nk'umuceri, amabiswi, ibirayi, ibijumba, ibishimbo, amakaramu, amakayi, imiti y'amenyo, za korogate, ndetse ibyo byose bakaba banabiranguza.

Kuri atoriye cangwa se aho badoda imyenda bakanakora inkweto, aha ni ahantu by'umwihariko hakorerwa ibintu byo kudoda imyenda misha, gusana imyenda no gusana imyenda misha, nanone kandi hashobora gukorerwa inkweto mu buryo ibyitwa ubudozi.

Ku iseta cangwa kugisima cangwa ku gasima uko hagira amazina agiye atandukanye, ni ahantu hashobora kuba impande ya butike ushobora gutereka ibicuruzwa bigiye bitandukanye ariko gusa kenshi haterekwa ameza, akaba ari ahantu haba hari ibicuruzwa bigiye bitandukanye nk'imineke ,imbuto, imboga n'ibindi.

Butike cyangwa inzu y'ubucuruzi, icururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye. Nk'amabuye ya radiyo, a amatoroshi, amakayi, amakaramu, amavuta go kwisiga, amakorogate cyangwa imiti y'amenyo. Akenshi zikunze kuba zikikijwe n'inzu cyangwa se utuzu dutoya cyangwa imitaka bacururizamo mitiyu ya MTN.

Muri alimantasiyo nk'uko icapa kibigaragaza ni ahantu ushobora gusanga ibyo kunywa n'ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, cane cane ibyo kurya bihaba biri mu bwoko bw'imigati n'imbuto, ndetse n'ibyo kunywa bipfundikiye nk'amata, ibyayi cangwa se amaji.

Imodoka yo mu bwoko bwa parado iparitse ahantu hamwe cyangwa ahandi, hafatirwaga ibyo kurya. Hazwi nka resitatora. Mu busanzwe amaresitora ni ahantu abantu baja bagiye kurya cyangwa se kunywa akenshi mu masaha ya saa sita. Amaresitora kandi aba asabwa kugira ahantu haparikwa ibinyabiziga by'ubwoko bugiye butandukanye.

Imikufe n'amashaneti ni tumwe muducuruzwa cyangwa se n'uturango tw'ubwiza. Tukaba bimwe mu bicuruzwa bikunze gucuruzwa mu mabutike ndetse n'ahandi hantu bacuruza ibirungo by'ubwiza. Udushaneti akenshi bakunze kutwambara mu ijosi, ku maboko cyangwa se mu nda, ibi bituma umuntu yiyongeraho ubwiza cyangwa agira uko yiyumva.

Inzu y'ubucuruzi iri ku muhanda ikorewe finisaje y'amakaro. Mu busanzwe cangwa se ahenshi na henshi inzu z'ubucuruzi ziba zifite finisage y'amasima cangwa se amarangi, gusa hamwe na hamwe mu bice bimwe na bimwe by'Uturere twa Musanze hari aho babategetse gushira amakaro ku mazu g'ubucuruzi.

Gaze cangwa iziko rigendanwa nkuko bamwe babyita ,kikaba ari igikoresho cifashishwa bacana bateka, bateka ibintu bitandukanye ,casimbuye ikoreshwa ry'ibiti ry'inkwi ndetse n'amakara. Gaze ni ingirakamaro cane kuko usibye kuba irinda kwangirika kw'ibidukikije yihutisha no guteka.

Sako cangwa se ikigo c'imari co kubitsa no kugurizanya. Kikaba ari kimwe mu bigo by'imari byifashishwa babitsa, bagurizanya ndetse banatanga inguzanyo n'inama ku mishinga mitomito abantu bagenda bagira. Sako ni ingirakamaro cane kuko zifashishwa zituma umuntu atera imbere.

Salo cyangwa aho bogosheraga. Iyi akaba ari inyubako batunganyirizagamo imisatsi uburyo bwo kogosha cyangwa se gutunganya inzara ndetse no gusuka. Aha ni ahantu ujaga bakagutunganyiriza ibice byawe birimo inzara, umutwe, ndetse n'intoki.

Ku rubaraza rw'inzu z'ubucuruzi : Akenshi ku rubaraza rw'inzu z'ubucuruzi hakunze kuba hari akabingaro cangwa se umwanya wicarwagamo n'abantu runaka bari aho ngaho. Na none inzu z'ubucuruzi zishobora kuba zifite uturindabasazi cangwa ibyo bita garide fu bitewe n'uko hashobora kuba ari hejuru cangwa se hegeranye n'ahantu hateza ibyago.

Busheri cangwa se ahantu bacururizaga inyama z'ubwoko butandukanye. Muri busheri ushobora kuhasanga inyama z'inka, z'ihene, iz'intama ndetse n'amafi. Busheri akenshi zikunze kugira amafirigo cangwa se imashini zibikaga izo nyama mu buryo bw'igihe kirekire kugira ngo zidahita zipfa.

Icapa c'ubucuruzi kikaba icapa c'iduka ricuruza imyenda zo gukorana siporo, ndetse n'ibindi byifashishwa muri siporo :nk'inkweto za siporo, imipira za siporo zo kwambara, imyenda za siporo zo kwambara ndetse na za ga.

Kuri busheri cangwa se ahantu baguriraga inyama, ubundi aha ni hamwe mu hantu na ho haba hubatse ariko hakaba hariho amakaro menshi hari igikontwara cangwa se ikimeza babagiragaho bakanakatiraho inyama. Kuri busheri hakunze kuba hasize amabara y'umweru ndetse abakoramo bakaba bambaye amapantaro n'amabote.

Inzu y'ubucuruzi iri ku muhanda. Icururizwaho ibintu bitandukanye birimo: lbikoresho bikoze nko muri palasitike by'ibidomoro, byavuyemo amavuta ndetse hakabaho n'ubundi bucuruzi bw'njugu. Injugu bukaba ari ubwoko bw'impungure ntoya, ziba zatetswe zatunganyijwe n'akamashini kazisataguraga, hakavangwamo umunyu ubundi bigacuruzwa.

Amarembo ginjira ahantu hamwe cangwa ahandi, mu busanzwe cangwa si muri izi misi amarembo amwe n'amwe gaba gasakaye agandi gadasakaye, gusa amarembo aba manini cangwa matoya bitewe n'urugi rururimo cangwa si bitewe n'ibinyabiziga bihanyura cane cane nk'ahanyura imodoka haba ari hanini.

Inzu z'ubucuruzi zigiye zitandukanye zikorera hamwe mu mujyi gw'ahantu runaka . Ubusanzwe inzu nyinshi ziba zifite ibirango cangwa si ibyapa bigaragaza ibintu abo bantu cyangwa se iyo nzu y'ubucuruzi ikorerwagamo.

Inzu y'ubucuruzi cyangwa se ibutike icuruza ibintu bigiye bitandukanye, twavuga nka za raronge, ingufuri, ingofero, za baro zo gukina cangwa se imipira zo gukina n'utundi dukoresho turimo udukinisho tw'abana, nk'utubunda, twa gitari imifuka yo guhahiramo, ndetse n'ibindi bikoresho byinshi bigiye bitandukanye.

Atoriye ikora intebe z'imifariso ndetse n'ibindi bikoresho bikozwe mu mbaho. Kuri atoriye hasangwa cyangwa se hakorerwa intebe z'imafariso zo mu buryo butandukanye nk'izitwa iz'amakwivure ndetse n'ubundi bwoko. Aha nanone hashobora gusangwa ibindi bikoresho byifashishwa cyangwa se bijyana byo muri saro nk'utubati, ameza, ndetse n'intebe.

Urugi rwa mitalike cangwa rw'icuma. Musanzwe inzugi zirimo amoko abiri: Hari izikozwe mu biti cangwa se izikoze muri mitalike. Nubwo na mitalike ziba ari ubwoko butandukanye. harimo ubwoko bw'amatibe n'andi yitwa amahashi esi. Mitarike zifungishwa amaselire, mu gihe izindi nzugi z'ibiti zisanzwe zishobora gufungishwa ingufuri.

Icapa camamaza ico kunywa citwa amositeri . Amositeri ni kimwe mu byo kunywa bisembuwe，bisembuye，bikundwa cyane kandi bikunze kugaragara henshi mu mazu acururizwamo ibisembuye， azwi nk'utubari cangwa se ama Hoteri cangwa se ama Moteri. Amositeri ni kimwe na none mu binyobwa binyobwa n'abantu benshi.

Icapa kigaragaza umushinga cangwa se ahantu cangwa se ubusitani buberagamo kwiyakira ndetse bukoreshezwagamo imihango myinshi z'ibirori runaka cyane cyane ubukwe. Aha hantu haba ari ahantu hagari hateye indabo, ndetse hari ubusitani bwiza, ku buryo ki usibye kuba haberaga ubwo bukwe, hanifotorezwa n'abageni cangwa abantu bitabiriye iyo minsi mikuru.

Iduka ry'ubucuruzi riri ahantu mu isoko ricuruza by'umwihariko ibinyampeke by'ubwoko bugiye butandukanye. Ibinyampeke bicururizwa ku iri duka akenshi ni ibishyimbo, ibigori, amasaka, ingano, uburo ndetse nanone haba hari ibindi bicuruzwa bicururizwa aho ngaho nk'imifuka, amavuta, amasabune n'ibindi byifashishwa mu rugo.

Butiki y'ubucuruzi icuruza ibicuruzwa by'ikoranabuhanga nk' amatelefone, amasharijeri, kava cyangwa se ibifuniko by'amatelefone, za poshete, amayekuteri ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye.

Bafule iteretse imbere y'inzu y'ubucuruzi. Bafure ni kimwe mu cyuma cy'ikoranabuhanga cyangwa se igikoresho cy'ikoranabuhanga, cyifashishwa barangurura cyangwa se basakaza amajwi mu buryo butuma amajwi gagera ku bantu benshi icyarimwe.

Inzu icuruza ibikoresho by'inyubako izwi nka kenkayori, muri kenkayori habamo ibikoresho bitandukanye by'ubwubatsi birimo: amasima, imisumari ,amatibe ,amatiyo ,amarangi ,ibiroso ndetse n'ubundi bwoko bw'ibikoresho bubakisha bugiye butandukanye.

Depo cyagwa se ububiko bw'ibirayi bimeze, akenshi iyi ni inyubako iba irimo ibirayi bimeze byenda kuzajya guterwa nk'imbuto. Ibirayi biba mu madepo, biba birimo ubwoko butandukanye nka za kinigi, rwishaki, gikungu, kuruseke, mirongo itanu n'umunane n'ubundi bwoko bw'imbuto z'ibirayi ziboneka, ndetse zikera mu Ntara y'Amajyaruguru.

Icyapa kigaragaza amacumbi cyangwa se ahantu abantu bajya bakarara, bakananywa, bakaba bafatirayo akaruhuko, bitaweho mu buryo bw'umwihariko, mu buryo burimo kubazanira ibyo kunywa n'ibyo kunywa, bashatse cyangwa se batumijeho. Iyi ni inzu igaragaza amacumbi y'uwitwa Kayitare.

Aho baguriraga imiti cyangwa se farumasi. Ubusanzwe farumasi zirimo amoko, hari izikorana n'ibitaro hakaba n'izigenga ku giti cyazo. Muri farumasi hasangwa imiti z'ubwoko bugiye butandukanye zihabwa umurwayi gusa hahasangwamo n'ibindi bikoresho nk'ibipfuko ndetse n'imbago.

Inzu ikorerwagamo n'ikigo gitanga serivisi z'itumanaho ca Emutiyeni. Iki ni ikigo gifite ibirango by'amabara abiri iry'umuhondo ndetse n'umweru. Gikunze gutanga serivisi z'itumanaho zirimo nko kugurisha amayinite, ndetse no kwandika no kwandukura amasimukadi kubari kubyikuzaho.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo inkweto n'imyenda, akenshi inzu z'ubucuruzi ni inzu zishyirwa cyangwa se zubakwa ku mu masoko, impande y'imihanda ndetse n'ahandi hantu hahurira abantu benshi kugira ngo hakorerwemo ubucuruzi. Ubucuruzi bushobora gukorwamo bushobora kuba ubw'inkweto, ibiribwa ndetse no gutanga za serivisi.

Amakosita ari ku nyubako runaka, amakosita ni bimwe mu bintu byifashishwa bari kubaka inyubako kuko afite umumaro ukomeye cyane wo kwinjiza umwuka mwiza mu nzu witwa ogusijeni abantu bahumeka. Ni ngombwa ko buri nyubako ishyirwamo amakositara. Amakosita mu busanzwe aba akozwe n'umucanga ndetse n'isima.

Akabati karimo amatelefone gari gucuruzwa. Ubusanzwe utubati tubamo ubwoko bubiri: Hari utuba dukoze mu biti, utundi tukaba ari utw'ibirahuri gusa bitewe n'ikiri gucururizwamo. Ahangaha utubati tw'ibirahuri nitwo dukunze kugaragara nk'utwatuma twamamaza amatelefone cangwa se ikindi kintu kigaragara kurusha gukoresha utw'ibiti.

Oroloringi, ndetse n’ibindi bikoresho byifashishwa muri alimantasiyo, cangwa se inzu icuruzaga ibyo kurya n’ibyo kunwa, by’umwihariko icayi, ndetse n’imikati. Mu bikoresho byifashishwaga bari gukora imikate, imikati cane cane amacapati, harimo agakoresho kitwa oroloringi, bifashisha bari gusunika amacapati. Aha na none, hashobora gukoreshwa amateremusi n’ibindi.

Inshuti cangwa se abavandimwe bari gufata ifoto bari guhana impano . Impano ni ikintu caba ikigaragara ndetse n'ikitagaragara bivuze mu mafaranga cangwa se gushimirwa mu magambo umuntu ashobora guha uwamukoreye neza.

Abakozi bari ahantu runaka, bayobowe n'umwanjenyeri, abanjenyeri akenshi bakunze kwambara ingofero z'imyeru, n'amajire y'imihondo adasa n'ay'abandi bakozi, abakozi basanzwe b'abafundi akenshi bakunze kwambara ibisarubeti by'ubururu cyangwa irindi bara, ariko baba batandukanye n'abanjenyeri cyangwa ba gapita.

Amarembo akaba ari inkingi ibiri ziri mu rugi cangwa se zishobora kuba zitarimo urugi，zituma umuntu yinjira ahantu hamwe cangwa ahandi，muri izi minsi amarembo gasigaye gasakarwa kugira ngo urugi cangwa se ibyo bita porotayi，rutangirika mu gihe ruguweho n'imvura， cangwa se n'ikindi kintu gishobora kuruhutaza.

Icapa, ca ca Raparume hoteri. Icapa ubusanzwe ni ikirango kigaragaza amerekezo, cangwa inyubako iri ahantu runaka, cyangwa si, ibintu bikorerwa ahantu runaka. Akenshi ibyapa bishirwa ku bishyirwa imbere y'amabizinesi biranga ubwoko n'ibicuruzwa bicururizwa aho ngaho, cyangwa se amerekezo yo kuja ahantu runaka hazwi cyangwa hatazwi.

Inyubako ya Hoteri Muhabura， iyi ni Hotel iherereye mu mujyi wa Musanze， haruguru y'ahari inyubako y'akarere ka Musanze， y'ibiro by'akarere ka Musanze. Hoteri Muhabura ni imwe mu ma Hoteri amaze igihe akorera mu karere ka Musanze.

Imbuga, igizwe n'amapave. Ubusanzwe, imbuga ahenshi hamwe na hamwe, nko mu mahoteli, cangwa si n'ahandi hantu hiyubashye, nko mu nyubako z'abayobozi, haba hagizwe n'isima, ishobora kuba ipavomye amakaro, cangwa se amapave. Ibyo ni bimwe mu bikoresho bifashisha, bapavoma cangwa si bakora imbuga y'ahantu, kugira ngo bavanemo itaka n'ibindi byatsi.

Umutwaro g'ubwatsi bwo kuboha ibirago. busanzwe ibirago bibibohwa hifashishijwe ubwatsi buri mu bwoko bubiri hari ubunyusi n'ubwitwa ubukangaga akenshi ubunyusi buboha uturago dutoya dufite ubwiza bw'umwihariko mu gihe ibikangaga ni wowe ubundi bwoko bw'ibirago akenshi byagenewe kwanikwaho imyaka zigiye zitandukanye n'imitako.

Inkweto zifunze ziri gucururizwa ahantu runaka mu isoko. Inkweto zifunze zirimo ubwoko bugiye butandukanye: iza supurese, ingozi, sandari, zikaba ziba zirimo urugero ibigero bitandukanye by'abantu batandukanye abana, abakuru, abagore, abagabo, ku buryo ki uwo ari we wese uje kuzishaka azibona mu rugero cangwa se mu nimero yambaraga.

Imbuto z'ubwoko buyitandukanye zirimo amaronji, ibinyomoro, pome, inanasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Harimo indimu, harimo manderena, harimo n'ibihaza.

Butike cangwa iduka ry'ubucuruzi ricuruzaga inkweto zifunguye arizo bamwe na bamwe bitaga ibipapa. Inkweto zifunguye zirimo ubwoko bwinshi butandukanye zaba izambarwaga n'abagore, abagabo, abakobwa, abana batoya ndetse n'abandi bakuru. Aha na none hasangwa izindi nkweto zikoze mu mapalasitike nk'amabote, amasiripa n'ubundi bwoko bw'inkweto.

Isoko ry'ibiribwa cangwa se kariyeri ni ahantu hahahirwa ubwoko bw'ibyo kurya bugiye gutandukanye，harimo nk'ibihaza， ibihaza bikaba biri mu mbuto ndetse n'ubwoko bw'imboga bugiye butandukanye，zaba inyabutongo， borokori n'ubundi bwoko bw' imboga bugiye butandukanye. Aha handi haba n'amafu， imiceri n'ubundi bwoko bw'ibyo kurya bitandukanye.

Amabati g'ibikura cangwa se gashaje. Akaba ari amabati akenshi gakunze gusakararurwa canga se gukurwa ku nzu runaka, hagamijwe gushiraho agandi masha, mashasha. Akenshi aga mabati gibikura, garagurishwa na none gakaba gakongera kwifashishwa basana ahandi hantu cangwa se bubaka inzu z'amatungo atandukanye.

Iduka ry'imyenda cyangwa se aho wacururizaga imyenda. Imyenda ziri mu bwoko butandukanye. Zishobora kuba imyenda z'abagore, abagabo, abana, abantu bato, abashaje izi nazo zigenda zirimo ubwoko bugiye butandukanye, hashobora kubamo imyenda miremire, imigufi ndetse amakoti, imipira n'ubundi bwoko butandukanye, amakabutura n'amapantaro.

Ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye birimo utugega dutoya cangwa se turinganiye, amapanu, ibikosi, amabase, ibidomoro ndetse n'ibindi birimo intara, udukoko ndetse n'udusero. Ibi ni ibicuruzwa bikunze gucuruzwa bigashirwa ahagaragara habonekera amaso.

Ibicuruzwa by'ubwoko butandukanye biri mu isoko ry'ahantu hamwe cangwa ahandi. Mu isoko niho wasanga ibicuruzwa by'ubwoko butandukanye birimo imyambaro, ibiribwa, ibinyobwa bigiye bitandukanye. Mu biribwa ushobora gusangamo ibirayi, ibigori, mu myambaro, inkweto, imyenda ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa haba mu kubaka n'ahandi henshi hagiye hatandukanye.

Ibirayi bya kinigi byasaruwe biri gucururizwa mu isoko ry'ahantu hamwe cangwa ahandi. Ibirayi bya kinigi ni bimwe mu bwoko bw'ibirayi bikunze kugaragara cane cane mu turere tw'intara y'amajyaruguru, by'umwihariko mu karere ka Burera ndetse n' akarere ka Musanze. Ibi akaba ari ibirayi usibye kuba bigira amafaranga menshi, akaba n'ibirayi binaryoha cane ugereranyije n'ubundi bwoko bw'ibirayi.

Ikirundura cangwa si inzu y'inkoko ni inzu cangwa si ikintu kiba cyubatse mu buryo ki cyemerera umwuka mwiza kwinjira ahantu inkoko ziba ziri ikirundura kandi kiba gifite uburyo bwo gushiramo ibiryo akenshi bidasabye yuko gifungurwa.

Abantu bari kwitegereza icuma kijana kikanavana abantu ahantu runaka mu nyubako imwe cangwa indi muri etaje cangwa se mu nzu zigerekeranye ,iki cuma kizwi ku izina rya esanseri, esanseri iba ifite ubushobozi bwo gutwara abantu kuva ku icumi kugeza kuri makumyabiri, ikabavana ahantu hamwe ku nyubako ikabajana ku yindi nyubako.

Isoko ry'ubucuruzi, cyangwa se aho bahahira ibiribwa bigiye bitandukanye, nk'ibitoki, ibirayi, bijumba, imineke ibirungo bigiye bitandukanye byo mu biryo, n'ibindi.

Inkweto zifunze ziri gucururizwa ahantu hamwe cangwa ahandi. Inkweto zifunze zirimo ubwoko bugiye butandukanye nk'izitwa supuresi, sandari, sinikazi cangwa si ubundi bwoko nabwo bugenda busohoka . Inkweto zifunze zifashishwa cangwa si zikundaga kwambarwa umuntu agiye mu birori cangwa si agiye ahandi hantu hasanzwe uretse ko ubusanzwe zishobora no kwambarwa igihe umuntu ashatse.

Hedifone cangwa se ama ekuteri akaba ari bimwe mu bikoresho by'ikoranabuhanga, bifasha ubifite kumva umuziki mu gihe afashe izo ekuteri, akazishira ku matwi noneho akazicomeka kuri telefone. Ibi bimufasha kugenda yumva umuziki w'ashaka akagumva ari wenyine igihe ashakiye.

Inyubako z'isoko ry'ahantu hamwe cangwa ahandi, inyubako z'isoko ziba akenshi ari inyubako zitageretse ndetse zikozwe k'uburyo ki ucuruza ahita agaragaza ibicuruzwa bye nta buryo, ubwo bivuze ngo inyubako akenshi zikunze kuba zidafite ibikuta bitandukanya iduka ndetse n'irindi.

Isoko ry'ibiribwa cangwa kariyeri nk'uko bamwe baryita, akaba ari ahantu haba ibiribwa bigiye bitandukanye nk'ibirayi, ibigori, imineke, imbuto, amananasi, amacunga, za beterave, ibitunguru n'ibindi byo kurya bigiye bitandukanye, ndetse n'ibindi birungo by'ubwoko bugiye butandukanye.

Iduka ricuruzaga amashakoshi cangwa si ibikapu by'abagore. Ibikapu by'abagore ni udukapu dukunze kuba ari dutoya cangwa se turinganiye abagore bifashisha batwaramo ibintu bigiye bitandukanye cane cane nk'abagore bafite abana batwaramo ibyo kubinda abana cangwa se n'ibiryo by'abana babo.

Intoryi n'imiteja ziri gucururizwa ahantu hamwe cangwa ahandi. Izi, ibi ni bimwe mu bwoko bw'imboga ziba ziri gucuruzwa ahandi hantu. Intoryi ni kimwe mu bihingwa byeraga mu ntara y'amajyaruguru by'umwihariko mu turere twa Musanze na Burera. Intoryi ni kimwe mu biribwa byifashishwa cane bari guteka imboga ndetse n'andi mafunguro.

Ibiraha kikaba ari kimwe mu biribwa bikundwa cane cane kugurwa mu marimentasiyo, cangwa se amazu gacuruzaga ibikomoka ku mafarini cangwa se imikati. Ibiraha bikorwa mu birarayi n'ifarini ndetse bigakarangishwa amavuta.

Yetage cangwa se murigatajuru, akaba ari inyubako iba igeretseho agandi mazu menshi. Ubusanzwe ama etage gakunze kuba ahantu mu mijyi cangwa hateye imbere, nubwo akenshi usanga no mu nkengero z'imijyi naho hubatswe aga mazu go muri ubwo bwoko.

Mirinda kikaba ari kimwe mu binyobwa bikunzwe cane muri izi minsi. Ubusanzwe mirinda y'ubwoko buringaniye igura amafaranga igihumbi. n'ubwo hari ibicupa binini bya litiro n'igice bigura amafaranga ibihumbi bibiri na magana atanu. Mirinda ni kimwe mu binyobwa biri kugurika ndetse bicuruzwa cane.

Udukarito turimo ibikoresho by'ikoranabuhanga nk'amaterefone, amasaha ndetse za karikireta ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga, aha ntitwakwibagirwa na none nk'amaterefone ga taci gazwi nka simatifone.

Ibyuma ndetse n'ibindi bipalasitike bishaje. Ibyuma bishaje ndetse n'ibikweto bishaje ni bimwe mu bintu byifashishwa n'inganda ziri kubibyazamo ibindi bintu bishaje, mu bintu bishaje cyangwa se byifashisha birimo nk'amasafuriya, amasuka ndetse n'ibindi byuma biba byarashaje, nanone haba harimo ibintu by'ibipalasitike nk'inkweto z'ibipalasitiki, za mwamini n'ibindi.

Abazunguzayi akaba ari abantu bacuruza ibicuruzwa, akenshi ibyo kurya. Babivana ahantu hamwe babijana ahandi babyikoreye ku mutwe. Abazunguzayi bacuruza ibintu bigiye bitandukanye nk'amavoka, inyanya, intoryi, imineke, isenda n'ibindi bicuruzwa. Akenshi abacuruzi bagenda birukanka bitewe n'uko ubucuruzi butemewe.